Abagabo babiri bategereje cyangwa baje gusaba serivise ku mu agenti wa emutiyene, eyateli, tigo kashi cyangwa se foda fone.

Abagabo babiri bari muri banki cyangwa se koperative, mwari gusobanura ubundi ibintu runaka cyangwa se asa ari kumuyobora aho ajya.